Abana bakunze gusobanurirwa akamaro k'ishuri ari nako bahabwa indyo yuzuye, ibi ngibi bituma bajijuka bakazavamo abantu bakomeye mu gihe kizaza ndetse n'imirire mibi igahashywa cyane, ibi ngibi rero biba bigomba gukorwa mu midugudu yose ikikije akarere cyangwa se igize igihugu.

Mu mashuri abanza abana baba bagomba kwambara umwambaro w'ishuri ugaragara kandi usa neza, bagomba kuba bafite ahantu bicara, bakaganira ndetse bagakorana n'imikoro mwarimu aba yatanze, ibi ngibi bizamura ireme ry'uburezi ndetse bikagaragaza ko n'igihugu kirimo kiragenda gitera imbere.

Hari gahunda Leta yatangije yo gutoza abana gukaraba, mbere yo gufata amafunguro. Aha ngaha rero haba mu bigo bituye mu cyaro cyangwa se n'ibituye mu mugi, uyu muco uba ugomba kubahirizwa kandi ugakurikizwa. Nta bwo ari ukuvuga ngo ni abantu bamwe bagomba kubikora, n'ababyeyi bagomba kubigiramo uruhare runini kandi rugaragara.

Mu rwego rwo guhangana n'imirire mibi, Leta yazanye gahunda ya shisha kibondo, abana baragenda bakicazwa ahantu hamwe bagafata indyo yuzuye, si ibyo gusa kuko ababyeyi nabo batozwa gutegura ifunguro abana bashobora kubonamo ibi bikurikira nk'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara.

Abana bicaye hamwe uba ubona bishimishije rwose ntabwo bakunze guta umwanya basakuza usanga bicaye bari gusoma ibitabo, baganira ku masomo mwarimu yabahaye ndetse n'umukoro, ibi ngibi bizamura ireme ry'uburezi ndetse n'abantu bakava mu bujiji bagakomeza kujijka.

Abanyeshuri bakunze gutozwa imirimo igiye itandukanye, nko kwirwanaho, gusukura imyambaro yabo, amashuri ndetse n'ibindi bikorwa byose, sitwakwirengagiza ko bagomba no gutaha bagafasha ababyeyi imirimo imwe n'mwe itangiye gukorwa mu rugo, mu gihe bahageze kandi hakirindwa ubunebwe.

Kugira ubusitani imbere y'amashuri, nabyo ni ibintu byiza. Kuko akenshi aha ngaha abana bakunze kubona ibintu byo kurya, ndetse n'imirire mibi ikagenda irwanywa gahoro gahoro, ntabwo ari byiza rero kubona imbuga iri aho ngaho irimo irapfa ubusa, nta gikorwa cy'ubuhinzi kirimo kirahakorerwa.

Ibishushanyo by'amateka cyangwa se byigisha, biba bigomba gushyigikirwa, aha ngaha dukunze kubibona mu nzu ndangamurage z'u Rwanda zigiye ziri ahantu hagiye hatandukanye, kandi ikindi ntabwo twakirengagiza ko no mu masomo dufata buri munsi, tugomba kwirinda kugira icyo twangiza gishingiye ku mateka.

Ikoranabuhanga mu burezi, ni inkingi ya mwamba mu kuwuteza imbere, aha ngaha rero harimo ibigo by'amashuri bidafite umuriro, kandi Leta ikaba ibizi icyo kibazo ntigire icyo igikoraho, hatangiye gushakwa bimwe mu bisubizo, nko kuba baherezwa bimwe mu bikoresho bidasaba umuriro mwinshi, ariko hakazanwa imyirasire.

Abana bo mu mashuri abanza baba bagomba gutozwa umuco wo kuzinduka no gushyira hamwe. Ibi ngibi rero bigafasha abantu mu rwego rwo kubashyigikira ndetse no kuba bazavamo abantu b'ingirakamaro kandi b'abagabo. Ni byiza rero kubibatoza bakiri bato kuko igiti kigororwa kikiri gito.

Ibitabo cyangwa se amakayi bikunze kuba birimo ibintu by'ubwenge, aha kaha umuntu yaravuze ngo umunyafurika nta handi hantu ushobora kumuhisha uretse mu gitabo, ariko ibi ngibi ni ukwibeshya cyane kuko na bo bamaze gutera imbere no gusobanukirwa akamaro kabyo, ibi ngibi bizatuma abantu bava mu bujiji kandi n'iterambere ry'umugabane rikihuta muri rusange.

Ku nkuta zigiye zitandukanye z'inyubako, bakunze kuhashyira ibishushanyo, cyane cyane nko mu bigo by'amashuri. Ibi ngibi bikangura ubwonko bw'abana bagafata ndetse ikintu babonye kuri iryo shusho ntabwo gikunze kubava mu mutwe. Ibi ngibi rero bigenda bizamura ireme ry'uburezi gahoro gahoro.

Mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza, hakunze kugaragara ibishushanyo bigiye bitandukanye. Ibi ngibi bikangura ubwonko bw'abana maze ibyo babonye ntibabyibagirwe kandi bikabongera n'ubushobozi bwo gufata mu mutwe. Ntabwo rero sisitemu nk'iyi ngiyi yakwirengagizwa ariko abantu benshi bagomba kubikorana ubwitonzi.

Urugo rw'abantu cyangwa se amashuri akunze kuba afite uruzitiro rw'amatafari. Ibi ngibi bituma abantu barimo imbere batavogerwa, mu rwego rwo kwirinda urusaku ndetse n'umutekano muke ariko kubigirira isuku na byo ni ingenzi cyane, tukabirinda ibitagangurirwa no kuba byasatagurika, mu gihe bimaze gusaza tukabisimbuza.

Umuco Nyarwanda ni kimwe mu birango bikunze kugaragaza igihugu cyacu, aha ngaha rero tugomba kuba dufitemo ibice bigiye bitandukanye, intore, abazi kuvuza ingoma ari bo twita abakaraza ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye nk'abasizi n'abazi gukora ibisigo bigiye bitandukanye.

Uburezi mu Rwanda bwagiye butezwa imbere cyane, yaba ubw'ibanze ndetse n'amashuri agiye yisumbuyeho na za kaminuza, kugira ngo rero ibi ngibi bigerweho ni uko hari ibikoresho tugomba kuba dufite mu ishuri nk'intebe ndetse n'ikibaho cyo kwandikaho amasomo agiye atandukanye.

Ibigo by'amashuri bikunze kuba bifite ibibaho byandikwaho, ibintu byanditsweho rero ntabwo abana bakunze kubyibagirwa usanga barabifashe mu mutwe kandi badafata igihe kinini ngo bagende babisubiramo ibingibi byagiye bigaragara ko bizamura ireme ry'uburezi yaba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Inyubako zikunze kuba ziri ahantu hahanamye ntabwo ziba zizewe cyane. Hashobora kugwa imvura y'amahindu, ikaza ikazitembana cyangwa se ikagirira nabi abantu barimo. Ni byiza rero kubaka ahantu habugenewe kandi hizewe, Leta ikaba ihazi ndetse n'abaturanyi bakaba bagira ibikorwa bimwe na bimwe bagufasha, ntuture ahantu mu gihonogo.

Amakipe agiye atandukanye, aba afite imyambaro isa kandi igaragara. Aha ngaha rero bituma abakinnyi iyo bari mu kibuga ntawe uyoberwa mugenzi we. Bigatuma abantu babona ibyishimo, bituruka kuri abo bakinnyi ndetse abantu bakanishima cyane bakaruhura mu mutwe.

Ibigo by'amashuri bya gikirisitu bakunze kuvuga ko bikunze gutanga uburezi buhamye kandi bufite ireme, ntabwo twakwirengagiza n'ibindi bigo bya Leta aho usanga na byo byitabwaho cyane, ariko burya ireme kugira ngo rikomere ni uko umunyeshuri ariwe ubigiramo uruhare, umurezi na we akaza akurikira.

Ibimera bigiye bitandukanye mu bigo by'amashuri usanga bititaweho cyane, abana bakunze kujyamo bakabikiniramo, bakabikatamo, bakabyangiza. Ibi bikorwa rero ntabwo bikwiye ndetse hagomba gushyirwa n'amategeko agenga ndetse akanahana umuntu wese wakoze ibikorwa nk'ibi ngibi.

Amakipe akunze kuba afite impuzankano zigiye zitandukanye. Ibingibi bituma abaje kuyareba batabitiranya, bakamenya ahantu bari buze guhagarara barimo barayashyigikira cyangwa se bafana. Ni byiza rero kuba zifite isuku kandi zigoroye neza kugira ngo n'ababareba babone ko ari abantu basobanutse.

Abarezi bagomba kuba inkingi za mwamba mu gufasha abanyeshuri ndetse no kubahiriza urugero rwiza, aha ngaha rero bituma umuntu akora ndetse abona ko afite ubuyobozi kandi bufite icyerekezo, ntabwo twakirengagiza bamwe mu barezi bakunze gusebya uyu mwuga, bagaragaza imico n'imyitwarire idahwitse.

Ibigo by'amashuri bikunze kuba bifite umwambaro wabyo byihariyeho, aha ngaha rero bakunze kwicara ahantu hari ikibuga kinini mu gihe cy'inama bakaganirizwa ariko ibyo ntibivana ko baba bagaragazwa n'umwambaro bambaye, umuyobozi ashobora guhagarara imbere yabo akaba yakoresha indangururamajwi kuko baba ari benshi cyane.

Uburezi burya ni bwiza, cyane cyane ko n'Umunyarwanda yavuze ngo uburere buruta ubuvuke. Ibi ngibi rero usanga abayobozi bashyiramo imbaraga bakicaza abantu ahantu hamwe cyane cyane abarezi ndetse n'abarerwa, bakabagira inama mu buryo buboneye ndetse n'indangagaciro za kirazira.

Inyubako z'abihaye imana zikunze kuba zigaragara cyangwa zubakishijwe amategura, aha ngaha rero abanyeshuri bakunze kuhagana cyane mu rwego rwo kuhafatira inama ndetse n'ibindi bikorwa bashobora kuhasanga nk'ubucuruzi cyangwa se ibindi bintu bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibyapa cyangwa se ibimenyetso bikunze gushyirwa ku nkuta z'amashuri cyangwa izindi nyubako za Leta, bikunze gufasha abantu bagana aho hantu kumenya ibihakorerwa. Ntabwo twakirengagiza abana bamwe bagira urugomo, aho usanga babishwaratura cyangwa se babyangiza. Ibi ngibi rero biba bigomba gukumirwa.

Mu cyumba mberabyombi niho hakunze kugirirwa ibiganiro mu bigo by'amashuri. Ntabwo twakirengagiza ko hari n'izindi nama zihakorerwa ndetse n'ibirori bigiye bitandukanye nk'ubukwe. Aha ngaha rero tuba tugomba kuhitondera kandi tugashyiramo imbaraga mu rwego rwo kuhasukura kuko haba hashobora kuba haza ibiza byinshi byatuma ibikorwa nk'ibi ngibi twagezeho byangizwa mu gihe gito.

Ibyapa by'amashuri bikunze kugaragara ahantu hagiye hatandukanye. Biba biri ahantu buri muntu wese abibona, kimwe n'uko usanga hari igihe biteye iruhande rw'ibibuga by'imipira cyane cyane nk'iy'amaboko. Ahangaha rero tugomba kwirinda kwangiza ibyapa tubishraturaraho, cyangwa se tubikoresha mu buryo budakwiye.

Utuyira tugiye dutandukanye dukunze gushyirwamo amatafari cyangwa se amabuye mu rwego rwo kwirinda kuba twakangizwa n'amazi, aha ngaha rero tugomba kwita ku mihanda yacu mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa remezo, aha ngaha rero tuba tugomba kubyitondera cyane mu gihe imvura iguye.

Intebe z'imbaho ziba zigomba kugirirwa isuku kandi zikitabwaho, dushobora kuzisiga amarangi mu rwego rwo kongera umwimerere wazo ntabwo rero tugomba kuzishora turaho cyangwa se ngo tuzangize ibingibi bizatuma twiyongera tukabona ubumenyi kubera ko tuzaba turi ahantu hatekanye kandi hameze neza.

Ibigo by'amashuri cyane cyane iby'abihayeyimana, bikunze gutanga uburezi bufite ireme. Ntabwo rero tugomba gukerensa kuganishayo abana bacu ngo bagende batozwa uwo muco. Akenshi ahantu hari ibirara, niho usanga hari ireme ridafite ubushobozi. Cyane cyane ko n'abarezi bakunze kubigiramo uruhare, ugasanga harimo kujebeka no kujenjeka.

Ibyapa bigiye biri ahantu hatandukanye bikunze kwifashishwa ariko cyane cyane n'ibimenyetso bimwe na bimwe, iyo hari nk'icyago haba hari ikintu kikuburira ibi ngibi rero biba bigomba kubahirizwa, yaba umuntu muto, yaba umukuru, yaba umuyobozi cyangwa se umuyoborwa.

Amashuri makuru na za kaminuza, akunze kubakwa ahantu heza kandi hafite isuku, usanga hakorwa amavugurura buri munsi, mu rwego rwo gutuma inyubako zimererwa neza, aha ngaha twavuga nk'iyo ugeze i Huye, uhabona amashuri meza yubatse kandi amaze igihe kinini cyane.

Ahantu dukunze gufatira amafunguro cyane cyane mu bigo by'amashuri, tuba tugomba kugira isuku ndetse no kuhitaho. Akenshi iyo amasazi arimo aratuma ahantu nk'aho abantu bahura n'uburwayi bugiye butandukanye. Aha twavuga nk'inzoka. Ibi ngibi rero bigomba kwitabwaho ndetse bikanakumirwa.

Mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye ahantu hakoreshwa umuriro mwinshi hagomba kuba hari kizimyamwoto, aha ngaha ni mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'umuriro cyangwa se mu gihe habaye inkongi. Ni byiza rero ko abantu bagomba gutozwa uburyo ikoreshwamo mu gihe hazavuka ikibazo nk'icyo ngicyo kikarwanywa cyane kandi bivuye inyuma.

Amashuri akunze kuba akikijwe n'ibintu bigiye bitandukanye, twavugamo nk'ibyumba abanyeshuri bakunze kuraramo, cyane cyane ibi ngibi biboneka mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, akenshi rero buri munyeshuri aba afite urufunguzo rw'icyumba araramo mu rwego rwo kwirinda ubujura cyangwa se kuba hakangizwa ibintu by'umunyeshuri runaka.

Ibyumba by'amashuri bikunze kugira akamaro cyane mu imbere usanga harimo ibibaho handikwaho imigabo n'imigambi ndetse n'imyanzuro y'inama, abantu rero iyo bicaye hamwe bakunze kunguka ibitekerezo bigiye bitandukanye ndetse no kuba bagerageza gukemura bimwe mu bibazo byugarije abantu.

Ibigo by'amashuri bikunze kuba bifite intebe ndetse n'ibibaho, mu imbere hagomba kuba harimo amatara afite urumuri ruhagije, mu gihe abana barimo barasubiramo amasomo ya nimugoroba abarimu batashye, bakabona urumuri rwiza rwo kwigiraho, kandi rutabangiriza cyangwase ngo rubice amaso.

Burya gutura ahantu heza cyangwa se hasa neza, na byo bigaragaza umuntu usobanutse. Ntabwo tugomba kujya gutura ahantu hari ibigunda cyangwa hari ishyamba mu rwego rwo kwirinda ibibazo byaturuka muri iryo shyamba. Aha ngaha usanga hacumbikiwemo nk'inyamaswa cyangwa se ibindi bikoko byatugirira nabi.

Mu rwego rwo kunoza inama, haba hagomba no kwitabwaho ahantu iri bukorerwe, aha ngaha twavugamo nk'ibyumba, cyangwa se amashuri, abayitabira nabo bagomba kuba bafite ikintu bitwaje nk'impapuro, ndetse n'ibindi bintu bigaragaza umuntu usobanutse, mu rwego rwo kuza kwandika no kunoza imyanzuro y'inama.

Umuyobozi agira uburyo yitwara ndetse n'abayoborwa bagatozwa kumwumvira, ntabwo ari byiza gusuzugura amategeko baba bashyizeho cyangwa se ngo tubananize muri gahunda zabo za buri munsi. Ibi ngibi bituma igihugu kibona umusaruro uhagije ndetse n'abaturage bagakomeza gusobanukirwa neza na gahunda za Leta n'icyo ibakeneyeho.

Ibyumba by'amashuri yisumbuye n'iby'amashuri abanza ndetse na Kaminuza biba bitandukanye, aha ngaha rero muri Kaminuza usanga intebe zigiye ziteye ku murongo buri munyeshuri wese afite ameza ye, ibi ngibi kandi usanga birigaragazwa n'isuku iba iharangwa kuko burya ho nta mwanda ukunze kuhaba.